Ibyapa bito bito biranga ubucuruzi bukorwa n'abantu ndetse n'amakompanyi menshi cyane, akora iby'itumanaho, akora iby'icuruzwa ry'amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyuma kinini kandi kirekire gifashweho n'insinga z'amashanyarazi nazo nyinshi, iruhande rw'cyo cyuma gikikijwe n'ibiti ndetse n'inzu ubona ntoya cyane, iruhande rwayo hari indabyo ntoya.

Ibiti birebire by'insinga z'amashanyarazi ndetse n'icyapa cyo mu muhanda, kibuza ibinyabiziga kwerekeza mu cyerekezo runaka, ndetse ibiti birebire bitoshye ndetse n'amazu ndetse n'ibyapa.

Inzu ndende irimo inzira nyabagendwa ndetse hejuru hari ibigega bifata amazi, inyuma hari ubusitani buhagazemo abantu bigaragara ko ari ahantu abantu b'abarwayi bakorerwa ubutabazi ndetse n'ubuvuzi.

Aha ni ku biro bya polisi ishami ry'akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Rwezamenyo haparitse imodoka abapolisi bakoresha, hari ibiti n'indabyo nziza, ndetse n'ibyuma ku marembo.

Imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda nyabagendwa, harimo n'amapikipiki ndetse iruhande rwayo hari ibiti ndetse n'urugo, rukingirije umuhanda ndetse n'imifurege itwara amazi.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, kiri mu muhanda nyabagendwa, ahantu ubona ko ari heza, hari ibiti, ndetse kandi gikurikiwe n'ikindi kinyabiziga gitwara imizigo.

Imodoka nini itwara abagenzi ndetse iruhande rwayo hari inzu ndende yubatse mu buryo bw'amagorofa, hari ibiti ndetse kandi iyo modoka iri mu muhanda nyabagendwa, bigaragara ko ucamo abantu benshi cyane.

Mu masaha agaragara nk'ay'umugoroba imodoka imwe kimwe mu binyabiziga byagenewe gutwara abagenzi icanye itara ndetse hariho n'amapiloni y'amashanyarazi ndetse n'amapoto ndetse n'amaferuje, inyuma bigaragara ko iri ahantu nyabagendwa hahurirwa abantu benshi imeze nk'isohotse aho imodoka ziparika.

Umuhanda nyabagendwa usa nk'udakoze neza, iruhande rwaho hatwikiriye ibyobo bitwara amazi ndetse hari guca abantu ndetse n'imodoka ku ruhande rwaho nyinshi.

Ni inzu nini zubatse mu buryo bw'amagorofa hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi n'umuhanda uca aho abantu batuye ndetse n'umuhanda nyabagendwa ukomeza n'ikirere kiza.

Imodoka n'abantu bambukiranya umuhanda, amabuye ibiti, ndetse n'ibinyabiziga byiganjemo moto.